Aba ni abantu bicaye mu nzu imwe bakaba bakurikiye inama, harimo abamama ndetse n'abapapa basa neza bose barakurikiye nta n'umwe urangaye, inyuma yabo hakaba hari ufite icyuma gifata amashusho nubwo arangaye ariko ari gufata amashusho.

Umumama wambaye imikenyero myiza cyane ndetse n'agapira k'icyatsi kibisi ari kumwe n'undi mumama wambaye agapira k'umukara ndetse n'amarinete afite indangururamajwi, inyuma ye hakaba hari icyapa kigaragaza ngo bikorere mu Isibo.

Aba ni abantu bateraniye ahantu hamwe bakaba bari mu nama yiga ku bijyanye n'ubukungu ndetse n'umutekano, kari umumama wambaye ikanzu y'igitenge uhagaze hagati y'abagabo babiri afite indangururamajwi ari gutanga imbwirwaruhame.

Aha ni ahabereye igikorwa k'inama, hari urujya n'uruza rw'abantu hakaba harimo abapapa, abana, abamama ndetse n'abandi bagiye batandukanye, bari mu ihema ry'umweru ritatseho amabara agiye atandukanye nk'ubururu, icyatsi kibisi ndetse n'umuhondo, bakaba bafite urwapa mu ntoki tugira tuti: "Gerayo amahoro".

Aba ni abantu bateraniye ahantu hamwe, bakaba bari mu nama nyunguranabitekerezo, aho bari kugenda bagirwa inama, ku bintu bigiye bitandukanye, nabo bateze amatwi, hari ihema ry'umweru, ritatseho akantu kariho amabara y'icyatsi kibisi, umuhondo ndetse n'ubururu.

Iyi ni inama yabereye muri hoteri nziza cyane. Yari yitabiriwe n'abari, abategarugori ndetse n'abagabo, aho bari bari kwiga ku ngingo zigiye zitandukanye. Ubu bakaba bari gufata ifoto y'urwibutso.

Umugabo wambaye ishati y'amakakaro iririmo uturongo yambaye isa ku kuboko ndetse n'amarinete afite indangururamajwi mu ntoki y'umukara ari kugenda atambutsa imbwirwaruhame kubamukurikiye kandi bamuteze amatwi.

aba ni abantu baje mu nama, bakaba bateraniye ahantu hamwe. imbere hari abapapa bane n'umudamu umwe, bigaragara ko aribo bari gutanga inama ndetse n'ibiganiro ku baturage bari Aho.

Aba ni abantu bateraniye ahantu hamwe bakaba bari mu nama, bicaye ku ntebe nziza cyane z'icyatsi kibisi ndetse n'umukara, bambaye imipira imeze nkaho ari impuzankano ndetse n'ingofero byose ni umweru, imbere ya buri muntu hari icupa ry'amazi ndetse n'irya ji.

Aba ni abantu bahagaze ahantu heza hagiye kubera inama. Ni hoteli yubatswe mu buryo bugezweho bakaba babanje gufata ifoto kugira ngo binjire maze inama itangire.

Aba ni abantu bateraniye ahantu hamwe, bakaba bari mu nama nyunguranabitekerezo, bose bafite amakayi n'amakaramu mu ntoki, bakaba bari kugenda bumva, bateze amatwi, basobanuza ndetse bandika ibyo bari kubwirwa.

Iyi ni inyubako iri kumurikirwamo umuco gakondo, turi kubonamo abari bambaye imyenda y'imikenyero ndetse n'abasore, imbere yabo hari abantu bakuze harimo n'abo mu nzego z'umutekano, bari kubareba.

Umwari mwiza cyane w'inzobe, yambaye imikenyero. Akaba ari kubyinira imbere y'abantu bari kumureba. Mu muco gakondo, abari wasangaga bazi kubyina kandi bakambara imyambaro bigwi.

Mu muco gakondo habagaho igikorwa cyo gusangirira hamwe ari byo bitaga umuganura, maze bagatera igicuma n'ikibindi abantu bagasangirira hamwe, iki ni ikibindi kirimo ibyo kurya.

Mu muco gakondo mu birori haserukaga inka nziza z'inyambo, zitatse amasaro mu mutwe. Aha hari inka nziza z'inyambo, zifite amahembe meza cyane ziteza urugori, aho ziri kumurika umuco w'abanyarwanda.

Mu muco nyarwanda wasangaga biyogoshesha imisatsi, bagatega amasunzu. Aba ni abagabo biyogosheshaga mu buryo bugiye butandukanye, maze bikaranga umuco w'abanyarwanda.

Umuco gakondo ni kimwe mu bigomba gusigasirwa, iki ni ikibindi kiza cyane kimeze neza gipfundikije amakoma, hakaba harimo imiheha ine aho hano hagiye kubera ibirori.

Mu muco nyarwanda wasangaga bafite imikino igiye itandukanye. Uyu ukaba ari umukino w'urusoro nk'umwe mu mikino yakinwaga n'ubu bakaba bakiyikina mu rwego rwo gusigasira umuco.

Ahantu heza cyane hari ibiti ndetse n'ibibaya, hakaba harimo icyuma kinini cyane kiriho insinga z'umuriro w'amashanyarazi zigenda zinyuranamo zijya mu byerekezo bigiye bitandukanye hirya no hino mu baturage.

Izi ni zimwe mu nzobere mu bijyanye no kubaka ingomero z'amashanyarazi ndetse no kugenda bawukwirakwiza hirya no hino mu gihugu, bambaye imyenda y'akazi, hakaba harimo abirabura ndetse n'umuzungu.

Ubu ngubu imyuga yatejwe imbere aha hari imashini ikoreshwa n'umuriro w'amashanyarazi hakaba hari umumama uri kuyikoresha yidodera imyenda myiza ikoze mu bitenge arishimye kandi ari guseka, inyuma ye hakaba hari icyapa gishushanyijeho abantu ndetse n'imyenda agenda adoda.

Iki ni cyuma kimeze neza cyane gishinze, kikaba kiriho insinga z'amashanyarazi. Aha ngaha rero hakaba ari hamwe mu hatangirwa serivisi z'umuriro, aho ugenda ujya mu byerekezo bigiye bitandukanye.

Aha ni hamwe mu hakorerwa ibikorwa bijyanye no kubaka ingomero z'amashanyarazi, hakaba harimo abagabo babiri umuzungu ndetse n'umwirabura aho bari kugenda bacomekeranya insinga kugira ngo bashyireho umuyoboro ujyana mu kindi cyerekezo.

Umusaza wicaye ku ntebe ya palastike y'ubururu bamushyizeho igitambaro cy'umuhondo, hari uri kumwogosha wambaye agapfukamunwa k'ubururu, imbere ye hari indi mashini imanitse ku musumari ndetse n'agacupa karimo alukolo.

Umugabo wambaye umwenda w'akazi w'isarubeti y'icyatsi kibisi, akaba yiziritse ikintu mu mugongo ari kurira ipoto y'amashanyarazi kugira ngo age gushyiraho urusinga rujyana umuriro mu rugo rw'umuntu.

Umuhanda wa kaburimbo urimo urujya n'uruza rw'ibinyabiziga, harimo ikiri guturuka ibumoso n'igituruka iburyo. Hakaba hari amatara menshi cyane yo ku muhanda amurikira uyu muhanda, mu gihe cy'amasaha y'ijoro.

Umugabo uri gukora umuriro w'amashanyarazi. Afite agakoresho bifashisha bafungura amaburo, akaba ari kugenda afungura kugira ngo asubiranye isinga zatanye. Ni byiza kugira inzobere mu bintu byose kuko bitugirira umumaro.

Iri ni ipoto rinini cyane ririho insinga z'amashanyarazi, zijyana umuriro hirya no hino mu gihugu, hakaba hariho abantu bari kugenda bashyiraho insinga, hari icyerekezo bashaka kujyanamo umuriro.

Iyi ni inyubako ikorerwamo ubucuruzi, haparitse amamodoka, hakaba hari abantu na bo bari kuhatambuka, ni inyubako igeretse kabiri, ikaba yubatswe mu buryo bugezweho, hejuru hari ikigega.

Iki ni ikibuga cy'umupira w'amaguru, kikaba ari ikibuga kirimo ubwatsi bugezweho, haciyemo imirongo y'umweru. Hakaba hari aho abaje kureba umupira baba bicaye hameze neza cyane kandi hubatse.

Iki ni ikiraro cyo mu kirere cyuzuye bakaba baje kugitaha, hari umuyobozi wambaye amarinete akaba ari kumwe n'abasirikare babiri umwe ari iburyo ndetse n'ibumoso, bakaba bari kumuha umugozi ngo iki kiraro bagitahe ku mugaragaro.

Aha ni ahantu heza cyane ushobora kugera ukiyakira serivisi, hari inyubako nziza cyane zubatse ahantu heza ubona ko ari mu mubande kandi harambuye, hakaba hari umunara utanga murandasi kugira ngo abantu bagire ubwumvikane.

Iyi ni inyubako leta yubakiye abaturage ngo bayituremo, isakaje amabati y'umutuku, yubakishijwe amatafari ahiye ndetse mu mbuga hari utwuma two kikaho imyenda hakaba ubusitani bwa pasiparumu.

Iyi ni inyubako nziza cyane y'ivuriro ikaba yubakishijwe amatafari, ahiye isakaje y'amabati y'ubururu, imbere yayo hari ikigega cy'umukara, nk'uko bigaragara imirimo yo kuyubaka ntirarangira.

Iki ni ikigo cy'amashuri cyubatswe mu buryo bugezweho, kikaba cyubatse ahantu munsi y'umusozi, cyubakishijwe amatafari ahiye, kikaba kigeretse kabiri. Hejuru yawo hariho umusozi uriho amashyamba, imbere hakaba amatara yo ku muhanda atanga urumuri.

Iyi ni inyubako nziza cyane leta yubakiye abaturage. Iyishyira hafi y'umuhanda kugira ngo abantu bose bajye babasha kuyigeraho bitabagoye. Hari imbuga nziza cyane isashemo amapave. Hakaba hari n'ipoto iriho itara ryo ku muhanda.

Iyi ni inyubako nziza cyane Leta iba yarubakiye abaturage, aho Leta yiyubakira nk'uturere twubatse mu buryo bwiza, imirenge yubatswe mu buryo bwiza, turi kubona umusaza uri gutambukamo wambaye ikote ufite icupa mu ntoki.

Mu muhanda wa kaburimbo ufite ibara ry'umukara, harimo aho abanyamaguru bambukira mu turongo tw'umweru dushushanyije muri uyu muhanda, hakurya y'umuhanda hari ingo nyinshi batuyemo. Hakaba amapoto ariho amatara yo ku muhanda ndetse n'insinga z'amashanyarazi.

Iyi ni inyubako nziza cyane yubatswe na leta iyubakiye abaturage, isize irangi ry'ubururu amadirishya n'umweru, isakaje amabati y'ubururu, hateye ibiti byiza cyane bitanga umuyaga n'amahumbezi, ikirere n'ubururu ndetse n'umweru.

Iyi ni inyubako iri kubakwa na leta mu rwego rwo kugira ngo abaturage bajye babona aho basabira serivisi zigiye zitandukanye, harimo n'iz'ubuvuzi. Ni byiza ko rero leta itekereza ku baturage maze ikabubakira igikorwa remezo.

U Rwanda ni kimwe mu bihugu byateje imbere ubutabera ndetse no kwishyira ukizana kwa muntu. Izi ni inzego z'umutekano zigiye zitandukanye harimo abasirikare, abapolisi, abadasso ndetse n'abandi bagiye batandukanye.

Aha ni ahabereye ihuriro riri kwiga ku bijyanye n'ubutabera ndetse n'uburenganzira bwa muntu, hari ihema rito cyane ry'umweru, hakaba hari icyapa, hari indangururamajwi akaba n'isakazamajwi, ndetse n'umugabo ubahagaze imbere.

Iri ni ihema ry'umweru rikaba ririmo abantu bagiye batandukanye nk'uko bigaragara, bari mu gikorwa cy'agaciro kandi cyubashywe bateguye neza kandi bose bariteguye.

Aba ni abantu benshi cyane bateraniye ahantu hamwe. Ni ahantu habereye igikorwa kijyanye n'ubutabera ndetse n'uburenganzira bwa muntu hakaba hari abantu benshi cyane bari bazanye amagare harimo abamama ndetse n'abapapa.

Uru ni urwibutso, uru rwibutso rukaba rushyinguyemo imibiri y'abazize jenoside yakorewe Abatutsi muri mata igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda na kane. U Rwanda rukaba rwariyemeje ko ibi bitazigera byongera ukundi.

Aba ni abantu bari mu nama. Iyi nama ni iy'abunzi, aho bari gutanga ubutabera kandi binyuzwe na bose, binyuze kandi mu mucyo no mu bwisanzure.

Mu Rwanda habayeho igikorwa cyo kwimakaza umuco w'ubutabera ndetse n'uburenganzira bwa muntu, uyu ni umusaza ufite imvi akaba afite indangururamajwi mu ntoki aho ari kugenda atanga igitekerezo ke.

Umuhanda wa kaburimbo ufite ibara ry'umukara, hakaba harimo ikinyabiziga cya moto. Iki kinyabiziga gitwawe n'umusore wambaye agapira k'umukara karimo imirongo y'umweru ndetse n'inkweto z'umweru. Hakurya y'umuhanda hari inyubako zituwemo n'abaturage zitari kugaragara neza.

Umuhanda wa kaburimbo urimo umunyegare utwaye igare, ari kugenda gake, arenze aho abanyamaguru bambukira. Imbere ye akaba hari umugabo wambaye watebeje, uri kugenda n'amaguru.

Umuhanda wa kaburimbo hakaba hari kugaragara udushushanyo tw'imirongo y'umweru, bigaragaza ko abanyamaguru bemerewe kuhambukira. Ibinyabiziga iyo bihaga birahagarara maze abanyamaguru bakabanza bakambuka kuko ari ko amategeko abiteganya.

Imodoka itwara abagenzi muburyo bwa rusange, ikaba iparitse aho imodoka ziparika ndetse aho abagenzi bategera amamodoka, hari umugabo umwe wambaye ishati y'umukara ndetse n'ipantaro y'ikoboyi y'ubururu.

Umuhanda wa kaburimbo urimo umunyegare uhetse umufuka ndetse n'umumotari wambaye kasike nawe uhetse umufuka. Hakurya yabo hari amaduka hakaba harimo iduka rikinirwamo imikino y'amahirwe izwi nko ku betinga.

Umuhanda wa kaburimbo urimo imodoka iri mu mabara y'icyatsi kibisi ndetse n'umukara iri gutambuka, hakabamo umunyegare utwaye igare uritwaje akaboko kamwe wambaye umupira w'umweru, ku ruhande hakaba ipoto iriho amatara yo ku muhanda.

Umuhanda wa kaburimbo utarimo ikinyabiziga, urimo umurongo w'umweru. Ku ruhande hakaba icyapa kigaragaza mingo inani ndetse hakaba n'ibiti byiza cyane birebire. Ubona ko bitanga umuyaga ndetse n'amahumbezi.

Umuhanda wa kaburimbo urimo ibice bibiri, hakaba harimo ikinyabiziga cy'ikinyamitende kirekire, kirimo umushoferi ugikwaye. Ku ruhande rw'umuhanda hakaba hateye indabyo, hakaba hari n'igiti kirekire gitanga umuyaga ndetse n'amahumbezi.

Icyapa kigaragaza umuhanda ijana na mirongo ine n'umunani. Kegeranye n'igiti kiza cyane kirekire, gitanga umuyaga ndetse n'amahumbezi. Ku baturage batuye haruguru y'icyo giti.

Umuhanda wa kaburimbo wubatswe mu buryo burombereje imbere. Hakurya y'umuhanda hari ruhurura itwara amazi, hakaba n'icyapa kigaragaza ko aho haparikwa imodoka. Ndetse hari n'ibiti bitanga umuyaga ndetse n'amahumbezi.

Aha ni aho bigishiriza gutwara ibinyabiziga, turi kugenda tubonamo bimwe mu bikoresho bifashisha aho ikinyabiziga kigenda gica mo hagati, maze ugikuyemo akaba ari umuhanga mu kubitwara akajya gukora ikizami.

Urujya n'uruza rw'abantu bari kugenda mu muhanda wa kaburimbo, hakaba hari icyapa kigaragaza ko hari imirongo abagenzi bemerewe kwambukiramo, ku mpande hakaba hari inzu z'ubucuruzi ndetse n'amapoto ariho insinga zitwara umuriro w'amashanyarazi.

Umuhanda wa kaburimbo urimo abantu bari gutambuka, hakaba hariho amapoto ariho amatara yo ku muhanda ndetse n'insinga zikwirakwiza umuriro w'amashanyarazi mu bice bigiye bitandukanye, hari icyapa kiriho imodoka itwara abagenzi mu buryo bwa rusange.

Aha ni ahakorerwa ubucuruzi bugiye butandukanye, turi kubona iduka rimanitsemo imyenda ndetse n'ingofero, imbere hanze hakaba hari inkweto ziri kuri shitingi, hari umusore wicaye kuri moto, inyuma ye hakaba hari icyapa gishushanyijeho imodoka itwara abagenzi mu buryo bwa rusange.

Uwo muhanda wa kaburimbo urimo imodoka ya fuso nini cyane iri mu mabara y'umukara ndetse n'umweru, ku ruhande rw'uwo muhanda ku karongo kagabanya umuhanda w'abanyamaguru ndetse na kaburimbo, hariho utubuye turi mu mabara y'umukara ndetse n'umweru.

Umugabo wambaye ijakete y'icyatsi kibisi irimo imirongo y'umweru yikoreye amabuye ku rutugu abiri, akaba ari guca mu kayira k'ibitaka, inyuma ye hakaba hari abana, umumama ndetse n'izindi nzu.

Iri ni ihuriro ryiga ku bijyanye n'umutekano ndetse n'ukwishyira ukizana k'umuntu. Ni ihema ry'umweru ritatseho utubara tw'umuhondo, icyatsi kibisi ndetse n'ubururu, hakaba hicayemo abantu b'ingeri zose.

Aba ni abantu bari mu bikorwa bigiye bitandukanye aha ni ahakorerwa ibitanda, utubati ndetse n'ameza, hari abagabo bambaye amakoti ndetse n'amakositimu bari gutambuka birebera ibikorwa bikorerwa hano.

Aba ni abantu bari mu muganda rusange aho bari guhanga umuhanda bazajya banyuraho bose bafite amasuka bayamanitse, inyuma yabo hakaba hari ibiti byiza cyane bitanga umuyaga ndetse n'amahumbezi, uyu muhanda ukaba uhakenewe.

Aha ni ahantu hateraniye abantu, hakaba habereye igikorwa rusange nk'inama, hakaba hari umupolisi ndetse n'umudaso, abariza kuhaza bari kubanza bagakaraba intoki maze bakabona gutambuka bagana aho, abandi bari.

Umugabo wambaye impuzankano ya Polisi, afite indangururamajwi mu ntoki, ahagaze imbere y'ihema ritarimo umuntu ndetse ahagaze n'imbere y'icyapa, kiriho amagambo agira ati imbuto, kaba ari gutambutsa ikiganiro.

Aba ni abantu bari mu gikorwa cy'umuganda mu rwego rwo kurwanya imibu ikwirakwiza Malariya, harimo abo mu nzego z'umutekano nk'abadaso ndetse n'abasirikare, hakaba harimo n'abakorerabushake bambaye amajire.

Aba ni abantu bari mu gikorwa cy'umuganda, bakaba bari guhanga umuhanda, ni abantu bari mu ngeri zigiye zitandukanye, abo mu nzego z'umutekano, abaturage ndetse n'abayobozi b'inzego z'ibanze, barahari.

Aba ni abantu bari mu gikorwa cy'umuganda aho bari kubakira umwe mu bagize ibyago inzu ye igatwarwa n'umuyaga waje mu gihe hari imvura nyinshi, aho bari kugenda bubaka inzu ariko isakaye.

Iki ni igikorwa cy'umuganda rusange kigamije gukora isuku, aho hari gutemwa ibiti mu rwego rwo kwirinda indwara ya malariya iterwa n'umubu wororokera mu bihuru bigiye bitandukanye.

Aba ni abantu bari mu gikorwa cy'umuganda, bakaba bari guterura amabuye, aho bari gusana umuhanda wangiritse, ujya ku ivuriro harimo abantu bagiye batandukanye, abagabo abamama ndetse n'abana, hakaba harimo n'umusirikare.

Ikibuga cy'umupira kirimo ubwatsi bwiza cyane bugezweho bufite ibara ry'icyatsi kibisi haciyemo imirongo y'umweru, hakaba hari abakinnyi bari mu kibuga, hakurya aho abafana baba bari hari umuntu uhicaye.

Abana bari muri siporo, bari gukorera siporo mu kibuga cy'igitaka, bakaba bari gukina umupira w'amaguru, harimo umwana umwe wambaye agapira, agakabutura ndetse n'udukweto, hakaba n'undi wambaye ibirenge ariko niwe ufite umupira.

Ikibuga kiza cyane cy'umupira hakaba hakinirwa umupira w'amaguru. Harimo abakinnyi bagiye batandukanye, hari abambaye umuhondo ndetse n'umukara ariko kandi indi kipe bagiye gukina yambaye umukara ndetse n'ubururu.

Abantu batandukanye, bari mu gikorwa cya siporo, ni abantu bambaye imyenda igiye itandukanye, harimo abambaye iri mu bara atukura, amabara y'umukara ndetse n'umweru, harimo abambaye umuhondo ndetse n'icyatsi kibisi.

Ikibuga cy'umupira kiza cyane gifite ibyatsi bibisi cyane, hakaba hariho uturongo tw'umweru. Hahagazemo abakinnyi, ikipe yuzuye irimo n'umunyezamu.U Rwanda rwubaka ibibuga by'umupira kugira ngo ruteze impano imbere.

Aba ni abantu bari mu bikorwa bya siporo, bari gukorera siporo ahantu inyuma y'kibuga cy'umupira cyubatse neza cyane hari agahanda karimo kaburimbo, bambaye imipira irimo amabara agiye atandukanye.

Iki ni ikibuga cy'umupira w'amaguru cyubatswe mu buryo bugezweho kirimo ibyatsi byiza cyane, hakabamo imirongo y'umweru, hari umusore uhagaze mu izamu, hakaba n'undi ugiye kumutera ishoti, aha turi kuhabona insakazamajwi.

Iki ni ikibuga cy'umupira, gifite ubwatsi bw'icyatsi kibisi. Hakaba harimo imirongo y'umweru. Harimo abantu bari gukora siporo ndetse harimo n'umumama ubyibushye cyane wambaye umupira wa Macyesita yunayitedi.

Umusore uri muri siporo, yambaye ikabutura, amasogisi ndetse n'inkweto, ari kwirukanka ahantu mu kibuga cy'igitaka, hirya ye hakaba hari ibiti byiza n'abantu bari kumwitegereza, ibi biti bifite uturabyo tw'umuhondo.

Iki ni ikibuga cy'umupira kirimo ubwatsi bw'icyatsi kibisi, hakaba harimo imirongo y'umweru. Harimo abakinnyi babiri bambaye imyenda y'ubururu ndetse n'umweru, hakabamo n'undi wambaye ubururu n'umukara.

Aha ni mu kibuga cy'umupira w'amaguru, ni sitade nziza yubatswe, hari abantu biyicariye, bari kwirebera umupira, bishimye kandi banezerewe, bitewe n'iki gikorwa remezo leta yabubakiye.

Iki ni ikibuga cy'umupira w'amaguru cy'igitaka, hakaba harimo abakinnyi bambaye neza cyane, aho hari n'abandi bicaye hakurya, bari ku bafana, aba bakinnyi bose barakomeye, bigaragara ko bakora siporo babigize umwuga kandi babikunze.

Iki ni ikibuga cy'umupira w'amaguru, kirimo ubwatsi bw'icyatsi kibisi kandi bugezweho, haciyemo imirongo y'umweru. Hakaba harimo abakinnyi bari gukina. Aho ubona ko bose bari gushyiramo imbaraga, nyuma y'uko bubakiwe ikibuga cy'umupira kiza.

Aba ni abantu bari gukora siporo, ni mu kabwibwi. Bakaba bambaye imyenda igiye itandukanye ifite amabara. Bamwe bambaye irimo amabara y'umutuku, ubururu, umuhondo ndetse n'icyatsi kibisi.

Ikibuga cy'umupira kiza cyane kirimo ibyatsi bisa icyatsi kibisi harimo abakinnyi babiri bose barahagaze bifashe mu rukenyerero, hirya y'ikibuga hari ibiti byiza cyane birebire bitanga umuyaga ndetse n'amahumbezi.

Ikibuga cyiza cyane cy'umupira w'amaguru, harimo ubwatsi bw'icyatsi kibisi, hakaba harimo uturongo tw'umweru. Harimo umumama ubyibushye cyane wambaye agapira k'umutuku ndetse n'ipantaro y'umukara, akaba agiye guterera umupira umugabo wambaye ishati y'ubururu ndetse n'ipantaro y'umukara.

Iki ni ikibuga cy'umupira gifite ubwatsi butoshye, hakaba haciyemo imirongo y'umweru. Mo hagati hateretse umupira, hakaba hari abakinnyi bari ku ruhande ndetse n'abandi bicaye.

Uyu ni umusore utwaye, amajerekani menshi cyane ku igare, iri gare ripakiye amajerekani arenga atandatu, akaba ari kugendera ku ruhande rw'umuhanda, hari ibiti byinshi cyane, bigiye birimo ibyatsi.

Umuhanda wa kaburimbo urimo ibice bibiri harimo umurongo w'umweru ugabanya bino bicemo kabiri hakaba moto iparitse ku ruhande ndetse hari n'inzu z'ubucuruzi. Imbere y'iyo nzu y'ubucuruzi hateretse umufuka ndetse na kandagira ukarabe, indobo y'ubururu.